Akabati k'umweru karimo ibintu mu nda. Karafunguye, hepfo hari intebe, imbere hari amakaro y'umweru. Hateretseho ibintu by'ikoranabuhanga.

Abanyeshuri bambaye imyenda isa, bari kumwe na mwarimu wabo wambaye imyenda y'umweru bari kwiga, bari gukora inzu mu ikarito igerekeranye ifite ibara ry'umweru.

Bari gucuranga bafite ingoma umwe ari kuririmba, undi ari gutoza, basokoje imisatsi bafite ibyuma bigezweho bituma abantu bizihirwa.

Abanyeshuri bari mwishuri, bicaye ku ntebe z'umuhondo, bambaye udupfukamunwa, bari kwiga gukora inkweto, bafite imakasi bambaye n'ibisurubeti bisa n'ubururu, bamwe bafite imisatsi, abandi bari kwitegereza ibyo bakoze.

Abantu bishyize hamwe bambaye amapantaro asa. Harimo uwambaye umukenyero, bose bafite imisatsi. Bari imbere y'inzu isa n'umweru, isakaje amategura asa n'umutuku, ifite amadirishya menshi.

Abagore babiri bazinze imisatsi bambaye itaburiya y'umweru bafite uducupa turimo ibintu by'umukara, imbere hari umuti uri mu gacupa k'umweru ufite agafuniko k'ubururu n'udusaro turi ku duti tugerekeranye.

Intebe ziri mu ishuri z'amabara, hejuru hari ameza maremare hirya hari ikarita y'isi, hari indi ntebe iri hirya ifite igikuta cy'umweru, hejuru hari utuntu tuhashinze tw'amabarabara.

Umugabo yambaye agapfukamunwa, yambaye ingofero, igisirubeti cy'ubururu ari gukoresha igikoresho cy'ikoranabuhanga gifite amabara y'umweru, yumuhondo n'umukara, kimufasha gukora ibintu neza biri kumurongo.

Abanyeshuri bambaye iniforome zisa, bari gukoresha ikoranabuhanga, bari kureba amakuru kuri televiziyo, bose baregeranye, bari ku murongo bari kwiga.

Abakozi bambaye imyenda isa, harimo abambaye ingofero, bambaye inkweto zifunze, bari gukora amazi ngo ajye mu kigega. Ikigega gisa n'umukara, kiri impande y'inzu y'amatafari ahiye.

Ahantu hasa neza hari intebe zitondetse k'umurongo. Hari ameza maremare, hari inzugi nini zirimo ibirahuri, ifite amarido asa n'umuhondo cyane.

Abanyeshuri b'abana bari imbere yishuri ryabo, bambaye iniforome zisa, bafite udutabo turiho ibishushanyo, dusa n'umweru.

Abanyeshuri bari mu ishuri, bari kwihugura uko bakanika imodoka. Bafite ibyuma byazo. Hirya hari indi modoka y'ubururu. Inyuma hicaye abandi banyeshuri bambaye ibisurubeti by'ubururu bakora imodoka.

Abantu bafite ibyuma by'ikoranabuhanga, bigezweho. Bidufasha kumenya ibiri mu makuru yo ku isi yose ari kuvugwa. Bitugirira akamaro tukanajijuka.

Abana bari kumwe bambaye iniforume zisa, bafite ishusho iriho imisozi, uturabyo, ibinyugunyugu biri kuguruka, ikibaya, hasi hari ibyatsi biri gukura n'inkoko iri gutoraguramo.

Intebe zamabara zitondetse ku muronko, hari izisa n'ubururu, hari izisa n'umuhondo, hari izisa n'icyatsi, imbere hari ameza maremar, na yo akoze amabara y'umuhondo, imbere ku rukuta hari ikibaho cy'umukara n'urugi, n'idirishya risa n'umutuku.

Umugabo uri gukata ibyuma, yambaye ingofero y'umweru, yambaye igisuruti cy'ubururu, hirya hari ibyuma bisa neza, bisa n'ubururu hari n'ibindi bisa n'umweru, hirya hari ibindi byuma bisa n'umuhondo by'ikoranabuhanga.

Abanyeshuri bari ku ishuri bambaye iniforume zisa, batonze umurongo, inyuma ya ho hari amashuri ya kijyambere agerekeranye afite inzugi z'umukara, zifite ibirahuri n'amadirishya y'umukara, imbere hari aho bakinira, hari utwuma tubarinda gukora impanuka.

Abana batoya bambaye ibisarubeti, bari gukanika moto, bafite ibyuma, bose bari kwitegereza, moto isa n'ubururu, bafite n'amapine, bayishyize hagati.

Abanyeshuri b'abakobwa bambaye iniforume isa, bicaye imbere y'imashini. Baje kwiga kugira ngo bazabone uko biteza imbere babeho neza, bagire imibereho myiza babikesheje imirimo bize. Bari gukurikira mwarimu inyigisho ari kubaha.